Aha haragaragara abasore batatu, bambaye amajire ari mu ibara ry'umuhondo y'ikigo k'itumanaho kitwa MTN ndetse bitwikiriye umutaka na wo uri muri iryo bara.

Aha biragaragara ko ari umugabo n'umugore. Uyu mugabo wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu, ari kureba muri telefone ntoya, y'uyu mugore.

Hano haragaragara abantu batatu, babiri muri bo bari iburyo bambaye imipira y'umuhondo ishushanyijeho telephone, naho uri ibumoso ni umugore, yambaye ishati y'igitenge.

Uyu mukobwa yambaye umwambaro hejuru uri mu ibara ry'umweru, hasi ipantaro ye ni umukara, arasutse, yambaye amarinete.

Aha haragaragara abantu batanu bose bahagaze imbere y'ameza ateretseho inkweto zitandukanye ndetse n'imikandara, hateretseho kandi imyenda, hari abagabo babiri n'abagore batatu.

Aba bantu babiri bose bafashe ku rupapuro runini rwa sheke, uri ibumoso ni umugabo wambaye agapfukamunwa, mu gihe uri iburyo ari umugore.

Uyu mugabo yambaye umupira w'umukara, abamuri imbere bamutunze telefone cyangwa se indangururamajwi kugira ngo avuge bamufate amajwi.

Aba bantu bahagaze ahantu mu rwuri, harimo abagore ndetse nabagabo, uri imbere yambaye ingofero y'umukara umupira w'umweru n'ikote ry'umukara.

Uyu muntu afashe mikoro mu ntoki yambaye umupira w'icyatsi ndetse amaboko ye afashe ku gatuti. Ari mu kidara k'itente kandi ari kubwira abantu bamuri imbere kugira ngo,

Aba bantu batatu bose bari mu murima uhinzemo inanasi, inyuma yabo mu kuboko kw'iburyo haragaragara igihingwa k'insina zifite amakoma.

Abantu bane bose n'ab'igitsina gore. Uri imbere wenda kwinjira mu muryango yambaye itaburiya yera. Abamuri inyuma na bo, umwe uri ibumoso, afite imisatsi isutse ya menshi.

Aba bantu ni benshi uri iburyo n'umugore wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umukara, afashe indangururamajwi kandi yambaye agapfukamunwa.

Aba bantu batonze uruziga iruhande rwabo ndetse no hagati hari insina. Bigaragara ko bahuje umugambi, bafite ikintu bari kuganira.

Iki cyapa kiri mu ibara ry'umweru. Handitseho amagambo hejuru mu ibara ry'ubururu. Ngo: "Dutere imbere IMF."

Aba bantu buri umwe agiye yicaye ku ntebe ye, abari mu kuboko kw'iburyo bambaye imipira isa iri mu ibara ry'ubururu kandi bicaye mu byatsi.

Iki cyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, cyanditsemo inyuguti akanyenyeri, rimwe, umunani, kabiri, urwego.

Hano haragaragara abagabo batanu, bane muri bo, bari ku ruhande rw'iburyo, bafashe kuri sheki nini, yahawe uwatsindiye igihembo runaka.

Aba bagaragara hano, ni abantu bari imbere y'isoko. Isoko ryubatse ryubakishije amabati ari mu ibara ry'ubururu. Imbere y'iri soko hari imbuga.

Ibi ni ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye. Ibigaragara imbere birasembuye mu gihe ibumoso hagaragara ibyo kunywa byo mu bwoko bwa fanta bidasembuye.

Iki cyapa kiri mu ibara ry'umweru, hejuru handitseho amagambo mu ibara ry'umutuku akurikiwe n'ayanditse mu ibara ry'ubururu. Mu gihe asigaye yose ari mu ibara ry'umukara.

Aha bacuruza ibyo kunywa by'amoko atandukanye. Harimo inzoga zikomeye ndetse n'ibyo kunywa bidasembuye. Byose bipanze muri etajeri, bimwe hejuru y'ibindi.

Ibyo kunywa n'ibyo kunywa biteretse ahantu hamwe, mu kuboko kw'ibumoso haragaragara amasahani abiri hariho inyama, ifiriti n'ibindi, mu gihe iburyo hari ibyo kunywa.

Ibi byo kunywa byiganjemo ibisembuye. Bipanze mu kabati. Bimwe hejuru y'ibindi. Gutyo gutyo.

Uru rukuta rugaragara hano ruriho icyapa. Iki cyapa gifite amabara atandukanye, harimo ay'umuhondo, icyatsi kibisi ndetse n'umukara. Hagati handitseho ijambo gatanu.

Ibi bikombe birimo inzoga kandi ibi bikombe bikozwe mu birahuri, ni ibikombe byiza bikunda kwifashishwa mu ngo z'abifite ndetse no mu maresitora ndetse n'amahoteri.

Iduka ritoya riragaragaramo akayetajeri kariho ibintu ariko bitari byinshi, imbere ku ruhande rw'iburyo haragaragara ameza ateretseho indobo iri mu ibara ry'umweru.

Iri cupa rishushanyijeho akana gatoya, amagambo yanditseho, hejuru yanditse mu ibara risa n'iry'umwana ashushanyijemo ry'ubururu, hasi hari ibara ry'umutuku.

Aha i bumoso hagaragara amacupa ya gaze, imbere hari inzu yubakishije amakaro ari mu ibara ry'umweru, aya macupa yose ateretse ku mapave.

Uyu mugore yambaye ikanzu afashe ku meza inyuma ye hari imyenda myinshi itandukanye ibikarito ndetse n'ibindi bintu acuruza.

Aya ni amagi y'inkoko, apanze neza mu mayetageri kandi ari mu tuntu dushinzwe kuyabungabunga kugira ngo atameneka, amagi amwe ari mu ibara rijya gusa n'umweru andi umuhondo.

Iri duka ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye bimwe biri mu ducupa, ibindi mu dukarito hejuru ariko ho haragaragara utuyunguruzo tubiri.

Iki gicupa kibonerana kiragaragaramo udusashi twinshi na two tugiye turimo utubombo.

Aba baturage ni benshi. Bahagaze nk'abashaka kwifotoza. Inyuma yabo hari inzu y'urusengero rwa kiriziya Gatolika, ikikijwe n'ibiti byiza by'imikindo.

Aba bantu bose baricaye ni benshi buri umwe afite intebe ye ndetse hagaragara n'umuntu wo mu nzego zishinzwe umutekano w'umudaso.

Uru rusengero rwubakishije amatafari. Hejuru yarwo hari umusaraba. Imbere hari Abakirisitu bagiye batonze umurongo. Umwe inyuma y'undi.

Izi ntebe ziteye mu mpande zitandukanye, zimwe ziri ibumoso izindi ziri iburyo kandi ni izo mu rusengero.

Uru ni urusengero rwubakishije amatafari ahiye, ku gasongero karwo hagaragara umusaraba, imbere y'iburyo n'ibumoso hari ibiti bibiri.

Aba bantu benshi barangamiye abari imbere. Abari imbere barimo baramurika ibintu runaka bishobora kuba ari impano nko kuririmba n'ibindi.

Aba basore n'inkumi bari kuririmba banaramya Imana bari mu rusengero, bambaye neza rwose baje gusingiza uhoraho kugira ngo babone imigisha.

Aba baturage bari mu rusengero bari gusenga, ni urusengero rwa kiliziya Gatolika, uri imbere arapfukamye amaboko ye yerekeje ku k'ananwa nkaho ari gusaba imana kugira ibyo imufasha mu buzima bwe.

Aba bantu barapfukamye, bapfukamye imbere y'undi muntu umwe we wicaye. Bose bazamuye ibiganza hejuru, bari gusenga Imana kandi bari mu rusengero. Inyuma yabo haragaragara umusaraba.

Aha ni muri hoteli haragaragara intebe nziza zijyanye na hoteli. Icyumba cyiza cyubatse neza kandi hejuru hagiye hari imitako ibereye ijisho, ku buryo abaza kuhagurira hababera heza.

Iki cyumba ni kiza. Ibumoso haragaragara igitanda gishashe neza n'amashuka yiganjemo ay'umweru. Iburyo hari igishushanyo kiri ku gikuta.

Hano haragaragara igitanda gishashe neza kiri mu cyumba kiza cyo mu hoteli, igitanda gishashishije amashuka yiganjemo ibara ry'umweru, hakaba hariho kandi imisego ibiri.

Aya meza ateretseho ibyo kurya bitandukanye kandi biri ku masahani. Hagati kandi haragaragara ibikombe birimo ibyo kunywa.

Iki gitanda gishashe neza. Gishashishije amashuka y'umweru. Ndetse hari n'imisego ibiri iri muri iryo bara. Ku rukuta hamanitse ifoto.

Uyu mugabo afashe mu mifuka yambaye ikote, ishati, ipantaro ndetse n'inkweto z'umukara. Ahagaze imbere y'inyubako ndende.

Hano hari udusorori n'udusahani n'ibiyiko ariko hakagaragaramo n'ibyo kurya bitandukanye bigiye guhabwa abantu kugira ngo babyifashishe nk'amafunguro.

Hano hari intebe ziri mu mabara y'umweru, zitonze zikikije ameza, ameza nayo ariho amasahani aho bakirira abantu ni muri hoteri.

Aha haragaragara cyane mu kuboko kw'iburyo inkongoro ndetse n'ibinika, iri mu ibara ry'umweru, hirya gato hari igikombe, haragaragara kandi igi, byose biteretse ku meza amwe.

Iki ni igitanda gishashe neza gishashe n'amashuka y'umweru hariho kandi imisego ibiri, iruhande rwacyo hari inkuta nziza zikikijwe n'amarido.

Iki ni icyumba cya hoteri cyangwa moteri haragaragaramo igitanda gishashe neza mu mashuka y'umweru ndetse hariho n'imisego, inyuma y'icyo gitanda hari intebe ebyiri, haragaragara kandi irido.

Aha ni muri hoteri, hari ameza meza ateretseho ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, urebeye mu kirahuri inyuma uhabona imisozi iteyeho ibiti.

Aba bagore ni batatu, hakaba n'umugabo umwe. Uyu mugabo uri iburyo yambaye agapfukamunwa. Mu gihe umugore uri kugaragaramo muremure yambaye ibitenge.

Ikiri kugaragara cyane ni inkweto za bodaboda, zirunze kuri shitingi, uyu upfukamye kuri iyi shitingi ari gucuruza izi nkweto kugira ngo abone amafaranga yo kwibeshaho.

Iyi myenda imanitse ku biti, iracuruzwa ariko iracururizwa ahantu hadateye imbere, imwe iri muri shitingi kugira ngo bayirinde imvura n'imvura naho indi iri hanze.

Uru rujya n'uruza rw'abaturage ruri kugenda mu muhanda, iburyo n'ibumoso bwabo hari amazu ari mu mabara yiganjemo umweru.

Aha harunze imboga, izigaragara imbere ni imboga zo mu bwoko bw'ibitunguru, hagakurikiraho intoryi nyinshi na zo zikurikiwe n'imiteja.

Uyu mubyeyi w'umugore ni umucuruzi. Acuruza imbuto, azicururiza mu isoko. Hagaragaramo imbuto z'imyembe, amatunda, inanasi n'izindi zitandukanye.

Hano haragaragaramo abagabo bafite umunzani ndetse n'imyaka myinshi ipakiye mu mufuka, inyuma yabo haragaragara amagare nubwo atagaragara neza yose.

Izi ni imbuto nyinshi zirunze kuri shitingi harimo karoti, inyanya, puwavuro, inanasi ndetse haragaragara n'abantu benshi inyuma.

Aba bantu bose bicaye imbere y'ameza akozwe mu ishusho y'uruziga. Ateretseho kandi ibinyobwa bitandukanye. Harimo abagabo ndetse n'abagore.

Iki ni icyumba cy'ahantu hakirirwa abantu. urugero nko muri hoteli. Izi ntebe ziteye zikikije ameza, haragaragara urumuri ruteye amabengeza.

Hano haragaragara umumotari wambaye kasike iri mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'umugenzi ahetse yambaye kasike iri muri iryo bara, bari kugenda mu muhanda mwiza wa kaburimbo.

Haragaragara umuhanda. Iburyo bw'ifoto, hari umuntu utwara ipikipiki ahetse umukobwa naho uyitwaye we ni umugabo. Hanyuma hakagaragara n'ibiti, hirya y'umuhanda.

Uyu muntu ugaragara hano ni umumotari, yambaye ikote, yambaye ndetse na katsike, imbere ye hari ipikipiki yiganjemo amabara y'umukara.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo. Iruhande rw'uyu muhanda haragaragara ibiti bitoshye. Mu muhanda haragendamo umumotari utwaye ipikipiki.

Uyu muntu atwaye ipikipiki yambaye kasike iri mu ibara ry'umuhondo, anafashe indi mu kuboko kwe kw'ibumoso nayo iri mu ibara nk'iryo, iyi moto ye cyangwa ipikipiki igezweho, ni nziza iracyari nshya.

Uyu muntu atwaye ipikipiki mu muhanda wa kaburimbo. Ari kugendera mu gice cy'umuhanda cy'iburyo, ukurikije uko atwaye ipikipiki ye. Inyuma haragaragara inzu y'ubucuruzi. Imbere y'iyo nzu y'ubucuruzi hari agahanda k'abanyamaguru n'imbuga.

Uyu mumotari atwaye ipikipiki ye.

Aya magare abiri akurikiranye ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Igare riri imbere ritwawe n'umusore wambaye ishati. Ahetse umugore inyuma ku igare.

Aha haragaragara abantu babiri. Uri iburyo ni umumotari atwara ipikipiki ndetse uri ibumoso we, ni umugore. Hagati yabo haragaragara ikinyabiziga.

Uyu muntu atwaye igare ni umugabo yambaye agapfukamunwa, igare rye rifite intebe y'inyuma ndende cyane iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Uyu musore yambaye isengero riri mu ibara ry'umweru. Yambaye ikoboyi, uyu iri imbere. Inyuma ye hari amapikipiki menshi. Bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo.